Laboratwari ya shimi na fizike，aho abanyeshuri baza kwigira ibikoresho byifashishwa mu kuvanga amakemikozi. Noneho bakarushoho kwiyungura ubumenyi.

Abanyeshuri biga biyoroji na shimi bari kurebera muri mikorosikopi kugira bareba utuntu dutoya utabasha kurebesha amaso yabo yonyine, ikabigira binini kugira bigaragare.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe za pipitire，bambaye inifomu zisa icyatsi，zikozwe mu masarobeti， abafite amakaye bari kwandika， abandi bari gusoma kugira ngo barusheho gutsinda.

Abanyeshuri batandukanye baje kwiga ibintu bijyanye no kuvanga amakemikozi, kugira ngo bitegereze barebe icyo birabyara maze barusheho kungura ubumenyi bwabo bukuye ku mwarimu uri kubibatoza.

Inzu irimo ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gucuranga, harimo umugore uri gukoresha sembare yifashishije uduti n'undi ufite gitari abandi bahagaze bari kureba uko ibintu byabo biri gukorwa.

Abagore bishize hamwe bari kwifotoza n'impapuro mu ntoki zabo, bazamuye n'amaboko, bamwe bambaye amapantaro, abandi bambaye amakanzu, abandi bambaye ingutiya, imbere yabo hari imicaca ya pasiparumu n'amagaraviye, bari imbere y'inzu.

Ikigo cy'amashuri gifite jaride irimo ibiti n'ibibuga by'imyidagaduro aho hariho ibikinisho by'abana aho baza kwicunda kugira ngo barusheho kunezezwa n'ubuzima bwabo mu kigo.

Umukwikwi ni umukozi ukora umwuga wo guteka, aho yambaye imyenda y'umweru n'ingofero y'umweru. Yashize ibyo kurya ku isahani kugira ngo abantu barebabe icyanga bifite.

Abanyeshuri biga imyuga, aho bigira kubaza intebe, ameza, n'ibindi bintu bitandukanye bituruka ku mbaho zatunganyijwe, bakoresheje imashini zabugenewe, bambaye amaga mu ntoki, udupfukamunwa, n'ibisarubeti, bisa kaki.

Abanyeshuri bize iby'ubuganga, aho bari gufata amasomo yabo ajyanye n'imikoreshereze y'imiti, kugira bajye barabona uko bafasha abarwayi baje babagana, bakaba bambaye n'amaga mu ntoki.

Abagore n'abakobwa baje kwiga umwuga w'ubudozi. Aha bambaye inifomu zisa icatsi harimo n'abandi bambaye ibintu by'ubururu, bari gukorera mu cumba kimwe kugira ngo barebe ko bakwiyungura ubumenyi.

Abakobwa bambaye amashati y'imyeru n'gofero z'umweru bagaragara nk'abakwikwi, bari gutekera kuri gaze mu gikoni, aho izwiho kwihutisha n'amasafuriya, bari gutekeramo ibiryo kugira abakiriya nibaza babona icyo barya.

Umurimo guhinzamo amateke, imyumbati, insina ,n'ibigori ,aho abagoronome bari kureba ibyazamura umusaruro aho hantu, n'imiterere y'ubwo butaka kugira bamenye icyo bukeneye kugira burusheho kongera umusaruro.

Imashini yifashishwaga mu kudoda imyenda akenshi ikaba ikoreshwaga bifashishije amaguru , bakayanyonga noneho hejuru ikaba ifite urushinge ruriho urudodo, akaba ari rwo rwifashisha igihe bari guhuza umwenda.

Kompiyuta rumu aho abanyeshuri bambaye imyeru , udupfukamunwa na mwarimu wambaye agapira k'umuhondo waje kubafasha kugira barusheho kumenya gukoresha mudasobwa.

Abanyeshuri bambaye imyenda ya kaki n'imyeru hejuru, bari kumwe n'umugabo umwe ufashe impapuro mu ntoki, bigaragara ko hari umushinga bishimiye n'imfashanyigisho babahaye, kugira barusheho kwagura ubumenyi bwabo.